Ibiryo byiza cyane, ibiryo biteye apeti harimo: inyama, hakabamo ibitunguru, hakabamo n'ibitoki. Inyama zigira poroteyine, inyama zidufasha mu gukora neza, ndetse ibitoki n'ibitunguru nabyo bikadufasha mu kwirinda indwara.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo umukobwa mwiza cyane ufite umusatsi ugiye gusa na shokora wambaye ikanzu igiye gusa n'ubururu, hirya ye hakaba hariho undi wambaye isa y'umweru n'ikoboyi, hino hakaba hariho undi ufite umusatsi mwiza cyane w'umukara ndetse wambaye ishati y'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu yubatswe neza, inzu y'umuhondo irimo indani iningi zitandukanye z'ibiti, hakaba harimo intebe zitandukanye nazo zikozwe mu biti, inzu tukaba tuzifashisha tuzituramo, ndetse tunazikamo ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu mbi inzu mbi cyane inzu yubakishije amatafari ahiye, inzu yatangiye kuzamukwaho n'ibyatsi, imbere y'iyi nzu gato, hariho igiti cyiza cyane igiti gifite amababi y'icyatsi.

Inyama nziza cyane, inyama zibereye ijisho, inyama ziryoshe, inyama z'ifi. Inyama zikaba ari zimwe mu biduhereza poroteyine, ndetse iyo tuzigurishije tubona amafaranga kandi ziririmo ibiteraga imbaraga.

Inzu nziza cyane inzu ifite hasi hamakaro, inzu bacuruzaga ibintu byo kunywa harimo amabyeri ndetse n'ibyuma, ikaba ifite udutebe twiza cyane tugiye gusa n'umutuku, ikaba ifite na parafu nziza cyane igiye gusana n'umweru ndetse hejuru muri parafu hakaba harimo amatara meza cyane ari kwaka.

Inzu nziza cyane, inzu ifite irangi rigiye gusa umuhondo, inzu ifite amadirishya menshi, inzu ifite ibirahuri bigiye gusa umukara. Munsi gatoya hakaba hariho icyapa cyanditseho sitatayimu turi kumwe, imbere gato hakaba hariho abamotari bagiye batandukanye, ndetse n'umuntu uri ku igare.

Inzu nziza cyane, inzu y'igorofa, inzu ifite akabara kagiye gusa n'umuhondo. Hejuru iriho icyapa cyanditseho home kiceni resitorenti, munsi gatoya hakaba hariho ikindi cyapa cyanditseho kanumasi.

Umudamu mwiza cyane, umudamu wirabura, umudamu ufite ibirayi byanitse ku ihema, akaba ari imbere y'inzu nziza cyane. Inzu ifite amakaro, imbere ifite inkingi y'umweru, hegamiyeho igare.

Inzu nziza cyane, inzu ifite amabati afite ibara ry'umutuku, inzu ifite parafo nziza cyane, inzu ifite ibara rigiye gusa umweru imbere, ndetse ikagira n'igipangu kigiye gusa umukara, gifite umuryango mwiza cyane wa metarike ugiye gusa ubururu.

Akazu keza cyane, akazu gatoya, akazu k'umuhondo kubatse mu byuma byiza cyane, kakaba karimo indobo nziza cyane y'icyatsi irimo voka, hirya gato hakaba hari igipangu kiza cyane cy'amatafari ahiye, inyuma gato hakaba ari igiti kiza cyane gifite amababi meza cyane y'icyatsi.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amakaro imbere y'umweru, inzu ifite ibara rigiye gusa n'umuhondo, ishushanyijeho ibishushanyo by'abantu bari kurya. Imbere gatoya hakaba handitseho ijambo werikamu, imbere y'inzu hakaba hariho moto zigiye zitandukanye, hariho iriho kasike zigiye gusa n'ubururu.

Inzu nziza cyane, inzu iteye irangi risa n'umuhondo, imbere gatoya hakaba ari umutaka wa MTN usa n'umuhondo, hirya y'umutaka hakaba hari imifuka igiye itandukanye, ipakiyemo ibintu bigiye itandukanye, hakaba hari n'abantu benshi cyane bagiye gutandukanya.

Ingorofani nziza cyane, ingorofani yubatse mu biti, ifite amapine y'umukara, ikagira n'icyuma cyo gusunika. Imbere hakaba harimo ibintu bigiye bitandukanye harimo amakanete afite imipfundikizo y'icyatsi ndetse n'afite iy'ubururu, hakaba harimo n'ibikarito bigiye bitandukanye.

Inzu nziza cyane inzu y'ubucuruzi ifite irangi ry'umuhondo, ndetse hasi hayo hakaba hari amakaro. Hakaba harimo umudamu ufite imisatsi miremire y'umukara, inyuma ye ngo hejuru hakaba hariho imyenda igenda itandukanye y'ubwoko bugiye butandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu ifite ibara ry'umweru, inzu y'ubucuruzi, ifite imiryango igiye gusa n'ubururu. Mo imbere hakaba harimo ibyo bacuruza bigiye bitandukanye. Hejuru hakaba hariho icyapa cyanditse cafetaria. Ndetse ikabafite amabati ajya gusa n'umutuku.

Inzu nziza cyane, inzu igeretse, inzu ifite imbere hariho icyapa cyanditseho kanari purizi, hirya gatonya hakaba handitseho farumasi, imbere yayo gatonya hakaba hari umuntu, wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro igiye gusa umweru, ufite terefoni mu biganza bye.

Inzu nziza cyane inzu y'ubucuruzi, inzu ifite irangi ry'umweru ndetse ifite n'inkingi z'umweru ikaba ifite n'umuryango w'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru. Imbere yayo handitseho icyapa hariho icyapa cyanditse alimandasiyo tera imbere munsi yacyo hakaba hariho ikindi cya MOMO.

Inzu nziza cyane. inzu ifite amakaro imbere inzu ifite ibara rigiye gusa n'umweru ifite inkingi zigiye gusa n'umuhondo ndetse n'izigiye gusa n'icyatsi. imbere gato hakaba umutaka mwiza cyane wa emitiyene w'umuhondo imbere gato hakaba hari umuhanda mwiza cyane wakaburimbo imbere gato y'umuhanda hakaba hari umudamu wambaye ishati y'amaboko y'ubururu.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, hino gato hakaba hari amasafuriya agiye atandukanye, mu nsi y'amasafuriya gato hakaba hari ibishashi birambitse hasi, hirya gatoya hakaba hari umunzani w'ubururu, twifashisha turi gupima ibiro.

Inzu nziza cyane, inzu ya sima, inzu ifite irangi ry'umuhondo. Ifite imbere amakaro meza cyane ikaba ifite inkingi nziza cyane z'ubururu, ikaba afite n'inzugi zifite irangi ry'ubururu imbere gatoya hakaba hariho abantu babiri bagiye batandukanye, hariho uwambaye isengeri y'umutuku yanditseho inyuma mu mugongo makumyabiri na gatatu.

Inzu nziza cyane, inzu ifite fondasiyo y'amakaro, imbere yayo gatoya hakaba hariho ibikarito bigiye bitandukanye, harimo ibigiye gusa umutuku, umuhondo, ndetse n'ibigiye gusa umweru, hakaba hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, harimo nka radio, nka amabafure, imbere gatoya hakaba hariho amagare aparitse.

Icyapa cyiza cyane. Icyapa cy'umukara cyandikishijweho n'umuhondo, amagambo avuga ngo vorukano nashyonoru pake, werikamu tu Kigali tu kinigi hedikotazi pop siri kirometazi, hejuru hakaba handitseho amagambo ya RDB kikaba kiri ahantu mu byatsi.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, inzu irimo ibintu bigiye bitandukanye harimo: amavuta ya Erayo, imitobe ndetse n'imigati. Hakaba hiriho icyapa cyanditseho ibiciro byo hasi burimunsi kiri mu ibara ry'umutuku.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi inzu ifite ibirahuri bigiye gusa umukara, inzu iriho icyapa yanditseho elo emu dizayine, hakaba hariho ngo dukora kashe, hirya gatonya hakaba hariho ikindi cyapa cyanditseho huza.

Inzu nziza cyane, inzu ifite urugi rw'umutuku rwa metarike, ruriho hejuru icyapa cyanditseho nimero, gishushanyijeho ikinyabiziga cy'igare . Mo indani hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, harimo uwambaye kasike y'umutuku, hakaba harimo n'amakasike menshi y'umutuku.

Inzu nziza cyane inzu y'ubucuruzi, inzu ifite irangi rigiye gusa n'umuhondo, ikaba ifite inkingi zigiye gusa n'umutuku. Hejuru ikaba ifite amakaro meza cyane, imbere yayo hakaba hariho amapave. Ikaba ifitiye icyapa cyanditseho Kantine Buresingi.

Inzu nziza cyane, inzu ifite imiryango myinshi cyane ifite amadirishya menshi cyane ifite giriyaje nziza cyane. inzu ifite ibara rigiye gusa n'umuhondo. Hino gatoya hakaba hariho ibyapa bigiye bitandukanye, hariho icyanditseho Goyiko Puraza, hino yacyo gato hakabamo umuntu ufite ikiganza cyirabura, wambaye ipantaro y'umukara.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, inzu ifite irangi ry'umuhondo, ifite giriyaje z'umweru, ifite n'inzugi z'umweru , inzu iriho icyapa cyanditseho ngo farumasi.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu ifite amabati agiye gusa n'umutuku, inzu ifite urugi rugiye gusa umweru, imbere gato hariho icyapa cyanditseho papiterie umuvandimwe ndetse hakabaho na nimero.

Inzu nziza cyane inzu ifite amategura hejuru. inzu imbere yayo hariho igiti cyiza cyane. igiti gifite amababi y'icyatsi hirya gato hakaba hari gipangu cyiza cyane cyubakishijwe amatafari ahiye hariho nakapa kanditseho mirongo itanu na karindwi gifite geti y'umukara nziza cyane.

Inzu nziza cyane inzu yubakishije sima ifite ibara ry'umweru hejuru ibara ry'ubururu, hasi ifite igipangu cyiza cyane cyubakishije giririyage zisize ibara ry'umweru. Twatwifashisha tuyituramo ndetse tunabikamo ibintu by'uburyo butandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishijwe amatafari ahiye, inzu ifite amabati agiye gusa umutuku, imbere gatoya hariho icyapa cyanditseho Kayitarezigesite hawuze. Munsi yacyo hakaba hari nimero. Imbere y'inzu gatoya hariho igipangu cyiza cyane, cyubakishijwe amatafari ahiye handitseho cumi na gatandatu.

Inzu nziza cyane, inzu iteye irangi rigiye gusa n'umuhondo, inzu ifite ibyapa bigiye bitandukanye . Imbere gatoya hariho imodoka nziza cyane, imodoka irimo yikoreye imizigo ndetse harimo n'abantu babiri bari kuyipakurura.

Inzu nziza cyane, inzu zifite amabati meza cyane, kagiye gusa na y'ubururu, nazo zikaba zisa n'icyatsi, inzu ebyiri imbere gatoya, hakaba hari igipangu cyiza cyane, gifite ibara ry'umweru, ndetse gifite na geti y'umweru, imbere gato, hakaba hariho akajaride keza cyane, karimo uburabyo bwiza cyane.

Inzu inzu nziza cyane, inzu ifite amabara agiye atandukanye harimo iry'umuhondo, inzu ifite icyapa hejuru cyanditseho besiti pulesibare imbere yayo hari igipangu cyiza cyane, imbere ya imbere y'igipangu gato hariho amabuye y'amapave.

Inzu nziza cyane, inzu ibereye ijisho, inzu ya sima, inzu iteye irangi rigiye gusa n'ubururu, imbere ikaba ifite ibyapa byigenje bigiye bitandukanye. Imbere y'inzu gatoya hakaba hari akazu ka MTN karimo umuntu, hirya gatoya hakaba n'undi wambaye agapira k'umutuku, wicaye ku bwayi.

Inzu nziza cyane inzu ndende, inzu ifite amadirishya menshi ifite n'imiryango myinshi. Inzu yanditseho fatima hoteli ifite irangi ry'umuhondo n'umutuku, hejuru ikaba ifite ry'umweru. Imbere y'inzu gatotonya hakaba hari igiti cyiza cyane kirekire, ndetse hakaba hariho n'inzinga z'amashanyarazi z'umukara.

Umuntu mwiza cyane, umuntu ufite intoki zirabura, hirya gatotoya y'ikiganza hakaba hariho igipipa cyiza cyane gitereretse, hirya gato hakaba hariho utundi dutandukanye, harimo akajire ka MTN.

Inzu nziza cyane, inzu ifite imbere hariho amakaro, ifite inkingi zigiye gusa n'ubururu, imbere gatoya hakaba hariho umudamu wicaye, aho yambaye umupira w'umukara, n'ingofero y'umukara, inyuma hakaba hariho ibicuruzwa bitandukanye, harimo udufuka twa bucyugende, ndetse n'imbegeti.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima, imbere gato hariho amapoto y'amashanyarazi ariho inzinga nyinshi, imbere gato hakaba hariho umutaka wa emutiyene mwiza cyane, n'imbere gato hakaba hariho umumotari wambaye agapira k'umutuku wicaye kuri moto, ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu ifite irangi ry'umweru, inzu ifite inkigi z'umweru imbere gatoya hakaba hariho imodoka nziza cyane imodoka y'umukara iri mu mapave ,inyuma y'imodoka hakaba hariho porotayi ifite urugi rw'umukara, hirya gatoya hakaba hariho igipangu cyubakishije amatafari giteye sima, gifite irangi ry'umuhondo handitseho haveni pisi.

Inzu nziza, inzu ifite akarangi k'umweru. Inzu yubakishije amabuye, hino gatoya hakaba hari moto nyinshi zigiye zitandukanye. Hari n'umumotari wambaye ikoti ry'umukara na kasike y'umutuku.

Inzu nziza cyane, inzu iriho icyapa cyannditseho ni rokita kampani. Munsi handitseho amagambo banki ofu kigali, munsi handitseho pipiyara banke, munsi gato handitseho icyapa cya pipiyara.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima, inzu igiye gusa n'ubururu n'indani igiye gusa n'umuhondo. Ifite giririyaje zigiye gusa n'ubururu, ifite icyapa cyanditse resitorabare rimitedi ndetse mo hakaba harimo....

Ibyuma byiza cyane ibyuma bitandukanye, ndetse n'amatiyo agiye atandukanye ndetse n'amabati atandukanye, harimo n'amabati y'umutuku. Ibyuma n'ibintu bidapfa gusaza vuba ndetse n'ibintu bizana ingese mu gusaza kwabyo twatubyifashisha mu kubaka.

Inzu nziza cyane. inzu y'ubucuruzi inzu iteye irangi ry'umweru ririhari ho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye hariho icyanditsweho imfinigisi hejuru gato hakaba hariho icyanditsweho eyateri hirya gato hakaba handitseho ubwoko bwose igiciro cyiza munsi hakaba hariho numero.

Inzu nziza cyane, inzu ifite irangi ry'umuhondo, ifite inkingi z'umukara, ikaba irimo udufuka ndetse twabuke ngende, imbere hakaba hari imifuka ya kilo jana igiye itandukanye, hakaba imbere yayo hariho ibihaza byiza cyane, ibihaza bikaba ari bimwe mu biduhereza poroteyine ndetse turabigurisha tukabona amafaranga.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima, inzu ifite ibara ry'umuhondo, ifite amabati yagiye kuba gusa n'ubururu bwijmye, inzu tukayifashisha tuyituramo ndetse tukanabikamo ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, inzu ifite hejuru akarange kagiye gusa n'umutuku, ifite ibyapa bigiye bitandukanye, hariho igishushanyijeho ifoke cyanditseho home kiceni, handitseho munsi gatonya shezi Mugenzi Inosa.

Inzu nziza cyane inzu ifite amabati ashaje. Munsi gatonya hakaba hariho imbabura zigiye zitandukanye, umbere y'imbabura gatonya hariho igiti cyiza cyane. Ibiti bikaba bivamo amakara ndetse n'inkwi zo ducyana.

Inzu nziza cyane, inzu ifite amakaro, imbere ifite ibara rigiye gusa n'umweru, hirya gato hakaba hari indizu ifite nayo amakaro meza cyane, arimo akabara kagiye gusana n'umutuku, hakaba harimo imyenda igiyeye itandukanye, harimo iz'umuhondo, iz'ubururu iz'umutuku ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

inzu nziza cyane, inzu ifite amakaro imbere ifite amabati y'umutuku, imbere y'ayo gatoya hakaba hariho umugabo wambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Imbere gato hakaba umuhanda urimo akarongo k'umuhondo.

Inzu nziza cyane inzu yubatse neza inzu ifite amabati y'ubururu igiye gusa n'umukara, ifite inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru , imbere gato ikaba ifite icyapa cyanditseho fesibuke loge. Imbere yayo hakaba hariho umuntu ufite agafuka mu mugongo.

Inzu nziza cyane, inzu ifite ibyapa byinshi bitandukanye hariho icyapa cyanditseho sikoro, ndetse n'ibindi byapa bi bitandukanye. Imbere yayo hakaba hari amapave meza cyane, hirya gato hakaba hariho umugabo wifashe mu mutwe wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, inzu ifite giriyaje nziza cyane zigiye gusa n'umuhondo, munsi gatonya hakaba ari icyapa kiza cyane cyanditse hariho modani edikeshoni konsati, na nimero za terefoni mu nguni hakaba handitseho ngo purayi nawu.

Inzu nziza cyane, inzu ya sima inzu iteye irangi ry'umuhondo, hino gato ku nkingi y'ubururu hakaba hariho udufuka twinshi cyane, nka bucyengende y'umweru ndetse n'utundi tugiye gusa n'umuhondo, hirya gato hakaba hariho umudamu wambaye agakoti k'agakwire, wicaye imbere y'imashini.

Inzu nziza cyane, inzu ifite hasi h'amakaro, inzu ifite urugi rw'umweru, imbere ikaba ifite inkingi y'umweru iriho inyuguti ya S, hirya y'iyi nkingi gatoya hakaba ibiduki bitandukanye, hariho ifite ibara ry'umukara, ndetse n'iby'umuhondo bifite imipfundikizo y'ubururu.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amakaro imbere. Inzu ifite inkingi zifite ibara rigiye gusa nk'icyatsi, inzu ifite inzugi zifite ibara ry'umukara, ibirahure bifite ibara ry'ubururu, imbere gatoya yayo hakaba hariho ibyapa bigenda bitandukanye, imbere gatoya hakaba hariho abantu bari kugenda mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umuntu mwiza cyane, umuntu wirabura ufite umusatsi mwiza cyane, umuntu wambaye agapfukamunwa k'umukara hirya gato hariho amakoti agiye atandukanye harimo ikoti ry'umukara ndetse imbere yamakoti hariho itara ryiza cane ry'umweru.

Inzu nziza cyane inzu ifite ibara rigiye gusa n'ubururu bwijimye, inzu yubakishije amatafari hejuru hasi sima, inzu imbere yayo hariho icyapa gishushanyijeho igitanda ,hakaba handitseho foji gesiti hawuzi ndetse hariho n'umuntu wirabura.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, inzu iteye sima, hejuru amakositara menshi cyane. Ifite inkingi isa n'umuhondo. Imbere yinzu gato hariho ibitambararo byinshi bigenda bitandukanye, imbere yaho haba hariho umukobwa wicaye imbere yimashini, inyuma gato hakaba hariho undi mugabo wambaye ikositimu. y'umukara nawe wicaye hamwe nimashini.

Inzu nziza cyane, inzu ifite irangi ry'umuhondo. Imbere hakaba harimo ameza cyane, ameza akoze mu biti ndetse hakaba ariho n'amafutayi meza cyane afite amabara agiye atandukanye. Hariho irigiye gusa ubururu ndetse hakabaho n'andi agiye gusa umweru.

Inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi, inzu ifite amabara menshi agiye atandukanye, harimo irigiye gusa n'icyatsi, hakaba hariho icyapa, cyanditseho embasi puraza moteri, imbere yayo hakaba hari umutaka wa emutiyene, urimo n'umwajenti, hirya gatoya hakaba hari umugabo wambaye agapira k'ubururu, ufashe mu mahembe y'igare.

Inzu nziza cyane, inzu igiye gusa n’umuhondo, inzu yubakishije sima, ifite akabara hejuru k’umweru. Hino gatoya, hakaba hariho indi nzu igiye gusa n’umutuku. Hino gato yayo, hakaba hariho umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, ikaba ifite n’igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Inzu nziza cyane, inzu ifite ibara rigiye gusa n'umuhondo, imbere y'inzu gatoya hakaba hariho giriyaje nziza cyane z'umukara, hakaba hariho n'icyapa kiza cyane, icyapa cy'umweru cyanditseho emupiheci urugwiro limitedi, munsi gatoya hakandikaho gesiti hawuzi, munsi gatoya hakajyamo nimero.

Inzu nziza cyane inzu iteye irangiriye gusa n'umuhondo, ifite amarido agiye gusa umukara, imbere hakaba harimo intebe zigiye zitandukanye, harimo intebe zigiye gusa n'ubururu, imbere hakaba harimo ameza agiye gusa icyatsi.

Inzu inzu nziza cyane inzu y'ubucuruzi harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibihaza, hakabamo hakabamo amaronji ,hakabamo na pome. Pome ni bimwe mu bidufasha mu kugira ngo twirinde indwara, ndetse n'ibihaza tubyifashisha mu mafunguro yacu ya buri munsi.

Umuntu mwiza cyane, umuntu ufite akaboko kirabura ufashe agakapu k'umukara mu ntoki, imbere ye gato hakaba hari inanasi n'amaronji. Inanasi n'amarongi bikaba birinda indwara ndetse turabigurisha tukabona amafaranga.

Ibishyimbo byiza cyane, ibishyimbo bifite amabara agiye atandukanye, harimo iby'umweru ndetse n'iby'umutuku, biri mu mufuka mwiza cyane, umufuka w'umweru urimo akabara k'umuhondo. Ibishyimbo bikaba bitanga poroteyine, ndetse tukaba tubigurisha tukabonamo amafaranga.

Inzu nziza cyane inzu y'ubucuruzi imbere gatoya hariho umugabo wambaye ingofero y'umutuku, ikoti ry'itenge ndetse namabote agiye gusa umukara. Hirya gatoya hakaba hariho undi wambaye ipantaro y'umukara imbere yabo hakaba hariho undi wambaye agapira k'umuhondo.

Umuntu mwiza cyane umuntu ufite ikiganza cyirabura umuntu ufashe karoti, karoti zigiye gusa umuhondo ndetse zifite akinyuma kagiye gusa icyatsi. Hirya gatoya hakaba hariho intoryi ndetse n'amapavuro byose tukaba tubyifashisha turi gutegura ifunguro.

Inanasi nziza cyane, inanasi zigiye zitandukanye, harimo izigiye gusa n'umuhondo, ndetse n'iz'icyatsi. Inanasi tukaba tuzikoramo ji, ndetse inanasi ni zimwe mu birinda indwara, ndetse turazigurisha tukabona amafaranga.

Isoko, isoko ririmo abantu benshi bagiye batandukanye birabura, imbere gato hariho umudamu wambaye agapira k'umweru, imbereye hakaba hariho imyenda myinshi yanitse ku mifuka, hirya ye gato hakaba hariho umukobwa wambaye ijipo isa icyatsi n'umupira usa umukara, urimo uturongo tw'umweru.

Ibikarito byiza cyane ibikarito bifite ibara rigiye gusa n'umuhondo birimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Harimo akanditseho ngo shambo ndetse munsi yako gatoya hakaba harimo utundi twanditseho bino wani kirogarama.

Ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo imikandara, hakaba harimo ibishora bigiye bitandukanye, harimo iby'umutuku n'ibigiye gusa nk'ubururu. Hino gatoya hakaba hariho imikandara y'umukara igiye itandukanye, hirya gato hakaba hariho agakapu keza cyane kagiye gusa umuhondo.

Amandazi meza cyane, amandazi afite amabara agiye atandukanye, harimo agiye gusa umukara wagira yaketse ndetse, n'agiye gusa n'umuhondo ateye apeti, amandazi tukaba tuyagurisha tukabona amafaranga ndetse ari mu byubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga.

Inzu nziza cyane, inzu y'igorofa, inzu ifite inkingi z'umweru. Imbere y'inzu gato hariho imodoka zigiye zitandukanye, imodoka zisa umukara. Hirya y'inzu gato hariho ibiti, ibiti bidukururira umwuka mwiza kandi ibiti tubikuramo inkwi.

Isombe nziza cyane. isombe ifite ibara ry'icyatsi hirya gato hariho abantu benshi bagiye batandukanye harimo umumama wirabura wambaye umupira wumutuku ufite igikapu mu kaboko kw'ibumoso. isombe zikaba zirinda indwara ndetse tukaba tuzigurishaga tukabonamo amafaranga.

Ahantu hari ubutaka bugiye busa umuhondo, ubutaka bubi ubutaka utahingamo ngo were. Harimo abadamu bagiye batandukanye, harimo umwe wirabura ufashe agafuka mu ntoki ndetse n'indogi zikaba ziri imbere mubase y'ubururu. Hirya gatoya hakaba hariho amashu ndetse amashu ari mu biturinda indwara.

Inzu y'ubucuruzi nziza cyane, ifite ibara hejuru ry'umweru, hasi rigiye gusa n'umukara. Hino gatoya y’inkingi, hariho ubuduki bw'umuhondo bufite imipfundikizo y'umutuku. Imbere gatoya, hakaba hariho ibikarito birambitseho amasabune agiye atandukanye y'umweru. Imbere gatoya, hakaba hariho n'umunzani ufite ibara rigiye gusa n'ubururu.

Inzu nziza cyane, inzu yubucuruzi, inzu ya etage irimo abantu bagiye batandukanye, harimo umudamu wicaye uteze igitambaro cy'umukara, imbere ye hariho ibitunguru bitandukanye, hirya hakaba hari umugabo mwiza cyane wirabura wambaye ipantaro yumukara n'ishati igiye gusana n'umukara.

Abantu bagiye batandukanye birabura, harimo umudamu uteze igitambaro mu mutwe, imbere ye hari imbabura nziza cyane, igiye kotsa ibirayi, byiza cyane ibyumweru, ibirarayi bikaba bitera imbaraga kandi bigirag poroteyine, hirya gato hakaba hariho umuhungu ufite ibiganza byirabura n'umusatsi w'umukara, wambaye bodaboda n'ipantaro yumukara.

Abantu beza cyane abantu bagiye batandukanye harimo umudamu ufite imisatsi myiza cyane y'umukara izinze wambaye itaburiya y'ubururu n'udukweto tw'umukara ufashe mu myembe ziri mu gatana kagiye gusa n'ubururu.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo umukobwa ufite umusatsi mwiza cyane w'umukara, ufashe itambaro cy'umweru. Imbere ye hari imashini hakaba hariho n'undi wambaye metero mu ijosi uteze igitamba kigiye gusa umwera.

Abantu beza cyane, abantu birabura bagiye batandukanye. Harimo umudamu mwiza cyane ufite umusatsi uzinze w’umukara, wambaye ikoboyi. Inyuma ye, hakaba hari umugabo mwiza cyane wambaye linete z’umukara. Inyuma ye, hakaba hariho undi mugabo wambaye ikoboyi, wambaye n’agapira k’ubururu.

Umugabo mwiza cyane, umugabo ufite ibiganza byirabura, umugabo wirabura, uri guterera ipasi ku k'antu k'umweru inyuma ye gatonya hariho undi mugabo wambaye ikote ririmo umweru wambaye ikoboyi hirya y'umusaza gato hakaba hariho icyapa cyanditseho noneho baterereza ipasi.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima, ifite urugi rw'umutuku, hirya gato hakaba hari indi nzu, yubatse nabi yubakishije amase, imbere yayo hakaba hariho abana batandukanye birabura, bambaye nabi bicaye mu mabuye.

Umuntu mwiza cyane umuntu wambaye igitenge kigiye gusa n'ubururu, imbere ye gato hakaba hariho igisika kirimo udukwavu tugiye dutandukanye, udukwavu tukaba tuduhereza inyama ndetse iyo tutugurishije tubona amafaranga.